Aha ni kwa muganga, hakaba hari umurwawanyi, uri guhabwa ubuvuzi bwihutirwa, aryamye ku buriri, akaba yiyoroshe amashuka y'icyatsi kibisi. Umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi ndetse n'uturindantoki ari kugerageza kumufasha.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bicaye. Hari umusore ufite ikayinikaramu, akaba ari kugenda yandika, harimo umukobwa ndetse n'umugabo bambaye umwambaro wa Croix Rouge.

Abaganga babiri bambaye bikwije bambaye imyenda by'ibishashi by'umweru birimo uturongo tw'ubururu ndetse bambaye n'inkweto z'icyatsi kibisi, imbere yabo hari akabulankari k'icyatsi kibisi bagiye guterekaho umugabo ngo bamujyane kwa muganga.

Abana ni ababyeyi bari gusobanurirwa ibijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ubutabazi bw'ibanze cyangwa se bwihutirwa, n'ababyeyi bambaye amakanzu yo mu bitenge bakaba bari kumwe n'umukobwa wambaye ipantaro ndetse n'ijire ya MTN.

Aha ni ahatangirwa ubuvuzi bw'ibanze kandi bwihuse, turi kuhabona umuntu utsikamiye umubyeyi aho ari kugenda amufasha guhumeka kugira ngo barebe ko bagarura ubuzima bwe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba baje kwivuza, bakeneye ubuvuzi bw'ibanze kandi bwihutirwa, hejuru y'urukuta rw'inzu y'amatafari ya rukarakara hari igitambaro kiriho umusaraba wa Croix rouge.

Aha ni mu ivuriro aho bari gutanga ubuzi bw'ibanze kandi bwihutirwa. Hari abaganga bambaye imyenda by'umweru birimo uturongo tw'ubururu. Bakaba bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda.

Abaganga batanga ubutabazi bw'ibanze kandi bwihutirwa, aba ni abaganga bari kugenda basuzuma ndetse bakavura abarwayi, imbere yabo ku meza hakaba hari udukarito ndetse n'uducupa birimo umuti.

Iyi ni inyubako y'ivuriro bakaba bari guha umurwayi ubutabazi bw'ibanze kandi bwihutirwa, ni abaganga batanu bateraniye ku murwayi umwe bakaba bari kugenda bamufasha aho bari kumusuzumira munsi y'ibyuma bisuzuma abarwayi.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa bavura umuntu mu buryo butunguranye. Ni ibimashini bikozwe, hifashishijwe ikoranabuhanga, bikaba biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, ibi bimashini bikaba bivura kandi bikanasuzuma.

Iyi ni ingobyi batwararaho abarwayi bagize impanuka bari muri siporo cyangwa se mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, bagahabwa ubutabazi bwihutirwa ni abakozi ba croixrouge bari guterura umugabo ngo bamushyireho maze bamujyane kwa muganga.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba hari umurwayi urembye cyane uryamye ku gatanda k'abarwayi muganga ari kugerageza kumufasha, imbere yabo hari akameza karimo mudasobwa ndetse n'abandi baganga ubona ko bahangayitse.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, akagofero k'ubururu afite igitori akaba ari gupfumura serumu kugira ngo ayishyiremo umurwayi uyikeneye maze ubuzima bwe abusigasire.

Inyubako y'ikigo nderabuzima hakaba harimo abasaza, abakecuru, ndetse n'abana baje kwivuza, harimo umuforomokazi uhagaze mu muryango usuzumirwamo akaba ari guhamagara umurwayi kugira ngo yinjire amusuzume.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cyo kwibuka bari ku mirongo, bari kugenda mu muhanda mwiza cyane wa kaburimbo, inyuma yabo hakaba hari imodoka. Abari imbere bafite icyapa kiriho Kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro bya Nyagatare.

Aba ni abantu bateraniye mu kigo nderabuzima, bakaba baje kuvuza abana. Nk'uko bigaragara baje kubateza inkingo ndetse no kubahesha ibinini bya vitamine.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iteraniyemo abantu benshi cyane. Harimo abaje kwivuza bambaye imyenda igiye iri mu mabara atandukanye. Hakaba umuganga ufite umusatsi mwiza cyane w'umukara umanutse ndetse yambaye n'impuzankano y'abaganga.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, bakaba harimo abaganga bari mu bushakashatsi, inyuma hakaba hari akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba hari n'undi muganga nawe ufite imyenda mu ntoki.

Inyubako y'ivuriro irimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba afite imisatsi myiza y'umukara. Afite ikayi yandikamo imyirondoro y'abarwayi ndetse n'indwara barwaye. Hari umukecuru umuri imbere uri kumutekerereza uko amerewe.

Inyubako yo kwa muganga ikaba irimo ibitanda, hari ikiryamyeho umurwayi urembye, kuri buri gitanda hagiye hamanitse inzitiramibu y'umweru ndetse hakaba n'amarido y'ubururu, inkuta zisa icyatsi kibisi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hakaba hari ibitanda baryamishaho abarwayi bavura babamo ndetse hakaba hari n'inzitiramibu z'umweru zimanitse hejuru, hari umwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe imbere y'inyubako nziza cyane y'ivuriro, ni abaganga bari guhabwa ishimwe kubw'ubushakashatsi bakoze bakavumbura umuti uvura indwara ikomeye cyane.

Aha ni mu ivuriro kwa muganga, hakaba hari umusore wicaye ku ntebe y'isheze, bakaba bari kumutera urukingo ku kuboko. Ni umuganga wambaye impuzankano y'umweru, uteze igitambaro, umusore ari gushinyiriza.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba hari abantu bari kuza bahagana baje gushaka serivisi, hari abicaye hasi ndetse hari n'umupapa wambaye amarinete uri gusobanuza abahageze imbere ngo yumve gahunda zaho.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo, hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ari mu karongo k'umweru, hari imbangukiragutabara iparitse mu mbuga y'iryo vuriro, bikaba bigaragara ko ari ikigo nderabuzima cya Nyagatare.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo umuganga wicaye ku ntebe wambaye impuzankano ndetse n'ibaji mu ijosi. Akaba ahagararanye n'umugabo waje kwivuza wambaye ishati y'umweru, ku meza hari ibitabo, uyu muganga akaba ari kurebamo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo abaganga babiri, umwe yambaye impuzankano y'umweru, undi yambaye impuzankano y'ubururu, akaba ari kumwereka ibinini undi nawe abyandika mu ikaye.

Aba ni abayobozi batorewe kuyobora ishyaka, bakaba bamanitse ibiganza, barahirira ku mugaragaro ko bazanoza inshingano zabo, mu bijyanye n'ubuvuzi.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru ari ahantu aho ari gusuzuma ibizamini bigiye bitandukanye, maze ngo arebe umuti aha umurwayi, hari udukoresho ari gukoresha ndetse n'agasanduku atamo imyanda.

Aha ni ahasuzumirwa imiti ndetse n'uburwayi, aho basuzuma ubuziranenge bw'umuti maze bakareba niba wavura indwara. Harimo ibiganza ndi kubona byambaye udukantoki tw'ubururu ufite agacupa k'umuti mu ntoki.

Aha ni ahakorerwa ubushakashatsi bugiye butandukanye ku baganga, aba bakaba bafite bimwe mu byo bari kwifashisha bareba ko bishobora kuvamo imiti yavura cyangwa se ikarinda indwara runaka.

Abaganga bari mu nyubako y'ivuriro, bambaye impuzankano z'umweru n'uturindantoki tw'ubururu. Hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu. Aho bari gukora ubushakashatsi ku miti igiye itandukanye.

Uyu ni umuganga uri mu isuzumiro ry'imiti ndetse n'ibizami akaba yambaye impuzankano y'umweru, afite uturindantoki tw'ubururu akaba ari kugenda asuzuma mu rwego kugira ngo amenye umurwayi uburwayi afite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha ni ahasuzumirwa ubuziranenge bw'imiti, ndetse bakanahasuzumira indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane izikomeye, zishobora kuvurwa bigoranye, cyangwa se zidakira.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubushakashatsi ndetse n'ubugenzuzi bw'imiti. Hakaba harimo abantu bambaye impuzankano y'abaganga isa umweru, bakaba bari gukora ubushakashatsi bugiye butandukanye. Harimo abafite amakayi n'amakaramu, bagenzi babo bari kubareberaho.

Umubyeyi wicaye ku ntebe ya pulastike y'ubururu akaba yambaye ikanzu ndetse n'isaha ku kuboko, ateruye akana keza cyane kambaye ingofero y'umweru ndetse n'agapira k'utubara twinshi akaba ari kugaha ibere, nka bimwe mu bituma abana bakiri bato ubwonko bwabo bukora neza.

Umugabo ndetse n'umugore we. Umugabo yambaye agashati k'umweru karimo uturongo tw'ubururu, umugore yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ibitenge. Imbere yabo hari umujyanama akaba ari kubaganiriza uko umuryango ubana neza.

Umumama wambaye agapira ka oranje, ateruye umwana na we wambaye agapira ka oranje akaba ari kumwe n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga, aho ari guha umwana we umuti, yandikiwe na muganga.

Uyu ni umugabo uhagaze imbere y'abantu biganjemo abana bakiri bato biga mu mashuri abanza, akaba yambaye agapira k'icyatsi kibisi kariho amagambo y'impine avuga ngo RBC nk'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuzima, ari kubasobanurira ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umumama wambaye ishati yo mu gitenge afite imisatsi myiza cyane iriho ibisuko akaba yambaye amarinete, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati nziza iteye ipasi, bakaba bari kureba itangazo riri ku kigo nderabuzima rijyanye n'uko wahugura umwana bityo ukamurinda kugwingira mu bwonko.

Aa ni ahantu habereye inama, ikaba iri kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'uburyo icyo kibazo cyakurwaho, bicaye ku ntebe za parasitike, bicaye mu buryo bw'uruziga, bicaye munsi y'igiti, bigaragara ko hari n'inyubako y'ivuriro.

Aba ni abantu bahagaze ahantu hamwe, bakaba bishimye, bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'amahugurwa bahawe, yerekeranye n'ibijyanye n'imikorere ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, aho babasobanuriye na bo bamara gusobanukirwa bakishima.

Umukobwa wambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'umutuku, yambaye n'ingofero akaba yitangiye itama, bigaragara ko afite ibibazo bigiye bitandukanye ubwonko bwe butari gukora neza. Akaba yicaranye n'undi mwari uri kumuhumuriza.

Abagabo ndetse n'abamama bicaye ku ntebe z'ibiti ahantu inyuma y'inzu kandi munsi y'igiti bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'imikorere y'ubwonko ndetse nuko bayiteza imbere.

Iyi ni farumasi icururizwamo imiti igiye itandukanye. Ikaba ipanze mu mayetageri. Hakaba hari iri mu ducupa ndetse n'iri mu dukarito. Iyi miti yose irakoreshwa kandi ivura uburwayi bugiye butandukanye.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, nta kinyabiziga kirimo, hirya y'umuhanda hasashe amapave. Imbere y'inyubako icururizwamo imiti hakaba haparitsemo moto nta mu motari uyicayeho ni yonyine.

Aha ni ahacururizwa imiti y'amatungo, turi kubona ikiganza gifite ikarito irimo umuti, uyu muti ukaba ushushanyijeho inka ndetse n'intama, ndetse hakaba hari n'amagambo agaragaza izina ry'uyu muti n'uko ukoreshwa.

Aka ni akameza kariho ibikoresho byifashishwa mu buvuzi. By'umwihariko mu mafarumasi. Hakaba hateretseho imikasi igera muri itandatu, aho iyo ugiye kugura umuti, bawukatisha umukasi.

Aha ni ahatangirwa imiti, aho harimo amahetajeri agiye ari hepfo no ruguru, iburyo n'ibumoso, akaba ageretse inshuro eshatu cyangwa enye, hakaba harimo udukarito ndetse n'uducupa.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, imiti irimo iri mu macupa, ay'umweru afite imipfundikizo y'icyatsi kibisi ndetse n'andi y'umukara akaba hose hagiye hariho ibyapa bigaragaza amazina y'iyo miti.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bagiye mu ihuriro rijyanye n'ubuzima. Bari gusobanurirwa ndetse bakanasobanukirwa uko indwara zirindwa n'uko zandura.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari guhugurwa ibijyanye n'ubuzima, bose bateze amatwi ubona ko bafite amatsiko yo kumenya neza ndetse no gusobanukirwa uko bakwirinda indwara.

Abantu bicaye ahantu hamwe. Bakaba bari mu mahugurwa, aho bari gukangurirwa kwita ku mibereho yabo mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Hari abagabo bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ngombwa kwirinda.

Aba ni abantu bateraniye hamwe mu kigo nderabuzima. Bakaba baje gushaka serivisi zijyanye n'ubwivuzi, babanza kubagira inama ndetse no kubahugura, mbere yuko babavura uburwayi baje kwivuza.

Aba ni abantu bateraniye mu ihema ni ihema ryubatse neza rikaba arisa umweru, hari utubara turiho tw'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, hari abantu benshi cyane bateraniye hagati yabo hari umumama wambaye ijipo itukura n'ikote ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kugenda basobanurirwa ibijyanye n'ubuzima, aho bari kugenda bababwira ndetse banabasobanurira, maze nabo bagasobanukirwa. Urabona ko bishimye.

Aha ni ahabereye igikorwa k'inama yiga ku bijyanye n'ubuzima, hari kandagira ukarabe y'indobo y'ubururu, hakaba hari umumama uri gukaraba amazi agwa mu kabase k'ubururu, hari ihema ryubatse mo imbere hakaba harimo intebe za palasitike z'umweru.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu nama yiga ku bijyanye n'ubuvuzi, bari guhugurwa ubona ko bakurikiye, bari gusobanukirwa, bagasobanuza, bityo bigatuma uri gutanga ikiganiro yishima.

Umugabo wicaye hasi afite agaseko gato ndetse n'agahini gato, yambaye imikenyero yakenyeye igice cyo hasi akaba afite amoko y'imiti gakondo imuteretse imbere aho ari kugenda ayivangavanga kugirango akoremo umuti umwe.

Uyu ni umugabo urwaye indwara y'ibiheri byinshi cyane, ku maboko ye bakaba baramubwiye ko ntawundi muti ushobora kumuvura uretse umuti gakondo, atsimaho, bityo ibi biheri bikagenda.

Uyu ni umwari mwiza cyane wambaye imyenda irimo utubara tw'umutuku, icyatsi kibisi, n'ubururu. Afite imisatsi myiza cyane igororotse, akaba ari ahantu acururiza imiti gakondo iri mu macupa agiye atandukanye ndetse no mu dukarito.

Inyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba harimo abaganga bambaye impuzankano z'ubururu, bakaba bambaye uturindantoki tw'umweru, ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, imbere yabo hari imiti bari gukorera ubugenzuzi.

Iyi ni nyubako y'ikigonderabuzima hakaba harimo umugabo wambaye agashati karimo uturongo tw'umukara ndetse n'umweru uryamye ku gitanda. Hari ibindi bitanda bifashe hakaba abaganga n'abaforomo bari kwita ku barwayi bari hafi aho.

Iyi ni inyubako y'ikigonderabuzima, ikaba irimo imiti igiye itandukanye ifungiye mu dukarito. Harimo agakarito kariho amagambo agaragaza izina ry'uwo muti. hakaba hashushanyijeho umubyeyi uteruye umwana bose bishimye.

Udukarito turimo imiti igihe itandukanye ivura, turi mu nyubako y'ivuriro hakaba hari ibicupa by'umukara. Utu dukarito dufite amabara y'icyatsi kibisi.

Utu ni uducupa turimo imiti igiye itandukanye, tukaba turi mu ivuriro ry'ikigonderabuzima. Harimo utw'umukara dufite imipfundikizo itukura. Hakaba hariho icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatswe neza, isize iran imbere n'inyuma ry'ubururu, hakaba hari abantu barimo imbere baje kwivuza, hejuru kuri iyo nyubako hariho umuryango, hakaba hari n'amagambo agira ati gira ubuzima.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro. Hakaba hari umuntu uryamye ku gitanda. Hari umuganga uri kumuvura yifashishije imashini, aho ari kugenda amwitaho, mu buryo bugiye butandukanye.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima. Ikaba isize amarangi y'ubururu. Hari umugabo uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, ndetse hakaba harimo n'abandi bantu baje gushaka serivisi z'ubuzima. Aha bose bakaba bari kwakirwa.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba harimo ababyeyi baje kuvuza abana babo ndetse n'ababyeyi baje kwivuza. Iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Hakaba hariho inzugi z'umweru ndetse hasi hakaba hari isima.

Aha ni mu kigo nderabuzima hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, imbere ye hakaba hari umurwayi, ari kumubwira uko arwaye maze akabyandika ku ifishi kugira ngo amenye uko amufasha, imbere ye hakaba hari icyuma gipima umurwayi.

Iki ni icyapa gishushanyijeho igishushanyo mbonera cy'ivuriro rigiye kubakwa kuri uyu musozi, rikaba ari ivuriro rizaba ririho amarange y'ubururu ndetse rikazaba risakaje amabati y'ubururu aho abaturage bazaryishimira.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima hakaba harimo abaganga bagiye batandukanye bambaye impuzankano z'umweru, umuganga umwe afite ifishi y'umurwayi mu ntoki akaba ari kureba imiti yamwandikiye bityo kugira ngo ayimushyire.

Aba ni abantu bateraniye hamwe mu kigo nderabuzima bakaba baje kwivuza ndetse harimo n'ababyeyi baje kuvuza abana babo, imbere yabo hari muganga aho bari kuzana amafishi bakayamutereka imbere maze na we akayuzuza.

Aba ni abantu barimo abirabura ndetse n'abazungu. Harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, inyuma yabo hari inyubako y'ikigonderabuzima isize irange ry'ubururu, ikaba iriho amagambo agira ati gira ubuzima.